Umugabo n'umugore bose bambaye imipira y'imyeru, umugore afite telefone mu ntoki, ku ruhande rwe hari umu polisi w'igihugu cy'u Rwanda wambaye rinete kandi yambaye n'inifomu.

Abaturage bari mu nama n'abayobozi babo kandi bose baricaye baratuje, harimo abagore n'abagabo umugore wicaye imbere yambaye ikanzu y'umukara irimo utudomo tw'umweru yambaye amarinete.

Abaturage bari hamwe bose bahagaze bategereje kugira ngo bumve imbwirwaruhame y'umuyobozi wabo abasobanurira uko ejo heza ari gahunda ya leta kandi nziza ibafitiye akamaro.

Abagabo n'abagore bose bicaye baje kwaka serivisi zigiye zitandukanye, umugabo uri ku ruhande yambaye ikote rya shokora afite ibyangombwa bye mu ntoki na telefone ye, umugore ukurikiyeho yambaye ikanzu y'umuhondo n'ibyangombwa bye mu ntoki.

Abayobozi batandukanye bicaye mu buryo bakurikije aho bayobora, bakaba bicaye ahantu heza cyane mu itente itatse amabara y'idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda bakaba bafite n'ameza akozwe mu biti ateretse imbere yabo ariho amazi.

Abantu bari mu nama bambaye imipira y'imihondo benshi cyane, imbere hari abayobozi babo, bambaye imipira y'icyatsi kibisi, kandi hari n'abashinzwe umutekano, bakaba bari gufatira hamwe ifoto y'urwibutso.

Abayobozi batandukanye, harimo abagore batatu ndetse n'abagabo barindwi, bose hamwe bicaye ku meza kandi bari mu biganiro biganisha ku iterambere ry'uko bateza imbere ikigo cyabo cy'ubucuruzi.

Urubyiruko ruri mu nama nyunguranabitekerezo. Icyumba barimo kirimo ibyapa bitandukanye, biriho idarapo y'igihugu cy'u Rwanda. Kandi abantu bari kumwe bose barakurikiye, kugira ngo baze gusobanukirwa.

Abakozi ba minisiteri bagiranye inama n'urubyiruko rutandukanye urubyiruko ruricaye rurakurikiye ibyo rurimo kugwa bicaye ahantu hari intebe sisa umutuku umuyobozi wabo arimo arababwira.

Abagabo n'abagore bose bakaba baje mu nama nyunguranabitekerezo n'abayobozi babo. Abagore bane ni bo bahembwe bakaba bari gufata ifoto y'urwibutso kugira ngo bitazibagirana.

Abagabo n'abagore bari gufata ifoto y'urwibutso kugira ngo bazibuke yuko iki gikorwa cyabaye, bakaba bahawe inkunga ya miliyoni mirongo ine n'eshatu, n'ibihumbi maganacyenda bahawe n'ikigo RG.

Abagabo n'abagore batandukanye bose bakaba bari mu nama nyunguranabitekerezo, bose bicaye ku meza kandi barakurikiye batuje kugira ngo bumve zimwe mu ngingo z'ingenzi ziri buvugirwe muri iyi nama.

Urubyiruko ruri mu nama nyunguranabitekerezo n'abayobozi barwo. Urubyiruko rwambaye imipira y'ubururu kandi bicaye ku meza ariho ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa, urugero nk'amazi n'ibindi.

Abagabo bahagaze hamwe kugira ngo bafate ifoto y'urwibutso kuko hari inama bavuyemo baganiriye ibintu by'ingirakamaro bafashe agafoto basoje kugira ngo bazahore babyibuka.

Abagabo n'abagore bari mu nama nyunguranabitekerezo, bicaye ku meza asize ibara ry'umutuku bose baratuje barimo kumva icyo umuyobozi umwe w'umugore arimo gusobanura.

Umugabo ufite mikoro, urimo asobanura neza uburyo gahunda ya leta yo gutanga ubwisungane mu kwivuza ireba abaturage kandi ari bo ifitiye akamaro. Ibi yabivugiye mu nama, igihe bari basoje umuganda rusange.

Abanyamuryango b'ikigo kimwe runaka bari mu nama nyunguranabitekerezo bakaba bari kurebera hamwe icyo bakora kugira ngo bateze ikigo cyabo cy'ubucuruzi imbere.

Abagabo n'abagore batandukanye bari mu nama nyunguranabitekerezo, ameza yabo afite, akozwe mu biti, afite ibara ry'umutuku ndetse hari na porojegiteri mbere yabo.

Abayobozi batandukanye mu nzego zitandukanye bicaye imbere ya bodi barimo gusobanura neza uko umwaka wagenze, harimo umugore umwe ndetse n'abagabo bane bambaye amakoti y'imikara na karuvati z'ubururu.

Abagabo n'abagore bari mu nama ku meza y'imbere hicayeho abagabo batandatu bose bicaye baratuje kandi bafite amazi ateretse ku ntebe, ku meza imbere yabo.

Abanyeshuri bari kwiga, bicaye buri wese ku ntebe ye afite ikaramu ndetse n'aho arimo kwandika kugira ngo azabashe kuba yibuka ibyo yize. Bakaba bicaye mu ishuri ari benshi, biganjemo abakobwa.

Abaturage bicaye neza bose batuje, bakaba baje guhura n'abayobozi babo, kugira ngo baze kuganira ku bibazo bimwe na bimwe bibugarije, kandi babifatire umwanzuro.

Abagabo n'abagore bari mu nama nyunguranabitekerezo, bicaye ku meza hagiye hariho abantu batandatu batandatu buri wese afite telefone ye mu ntoki ze kandi ari gukurikira atuje kugira ngo yumve ibitekerezo by'ingenzi.

Urubyiruko ruba rwaturutse ahantu hatandukanye, harimo abambaye imipira y'icyatsi n'ingofero z'ubururu. Abandi bo, bambaye imipira y'ubururu n'ingofero z'ubururu.

Abagabo n'abagore bari mu nama nyunguranabitekerezo, bakaba bicaye ku meza bose barakurikiye kandi bafite amakayi ndetse n'ikaramu kugira ngo bandike bimwe mu bitekerezo by'ingenzi.

Abayobozi ndetse n'abaturage bari bari mu nama nyunguranabitekerezo bakaba bambaye amakarita agaragaza akazi bakora ako ari ko, bose bakaba bari guhagurukira hamwe baririmba indirimbo ibatera murare.

Abagabo bari mu nama nyunguranabitekerezo, barahagaze kugira ngo babanze bakire umushyitsi mukuru, baricaye imbere yabo hari ameza ariho igitambaro cy'umweru n'umukara.

Icyumba cy'inama cy'umujyi wa Kigali, kikaba kirimo abayobozi bagiye batandukanye baba abayobozi b'uturere tw'umujyi wa Kigali, ab'imirenge, bose bakaba bari kwigira hamwe ku kibazo cy'uko bagira umujyi wa Kigali mwiza.

Umuyobozi ari imbere y'abaturage. Abaturage bicaye mu itente baratuje kandi bateze amatwi ibyo umuyobozi wabo ari kubabwira; kuko ari gahunda nziza kandi zibareba.

Abayobozi babiri bicaranye, umugore n'umugabo. Umugore ufite imisatsi y'umukara ufite ajenda ari kwandikamo, umugabo we yicaye ku ruhande yambaye ikote ry'umukara.

Abantu bari mu inama bakaba bicaye bose, bakaba bari gukorera ku ameza manini cyane asize ibara ry'umutuku bose barakurikiye, kugira ngo baze kugira ibitekerezo by'ingenzi basigarana.

Abagabo n'abagore bari mu nama nyunguranabitekerezo. Bose bafite imeza imbere yabo, iriho igitambaro cy'umweru. Hagati hateretsemo ururabo rwiza cyane, rusa icyatsi.

Abagabo bari mu nama bose bicaye mu ntebe zabo, barimo kwitegereza imbere kuko hari tereviziyo nini yerekana igishushanyo mbonera cy'umujyi wa Kigali mu gihe kiri imbere.

Abagabo n'abagore bose bari mu nama, umugabo umwe urimo hagati yambaye ishati y'mweru umugore umukurikiye we afite mudasobwa mu ntoki ze, hirya yabo hari umupolisi w'u Rwanda.

Abantu bamaze kubona impamyabushobozi zabo bambaye imipira y'ubururu bakaba bafashe ifoto y'urwibutso bamwe bahagaze abandi bicaye kugirango bazahore bibuka ibyo bihe.

Abagabo n'abagore batandukanye bose bagiye mu ifoto y'urwibutso kugira ngo bazibuke yuko gahunda nziza nk'iyi ngiyi yabaye bahari. Harimo abagore bane bambaye amakanzu y'umutuku ndetse n'abagabo bambaye amashati y'icyatsi.

Abagabo n'abagore bari mu nama, umugabo wambaye ikote rya kake, ufite n'ubwanwa arimo arasobanura ingingo ku ngingo, abari mu nama na bo bateze amatwi kugira ngo bumve neza.

Abagore bagiye batandukanye bicaye mu nama ndetse hari n'abagabo bambaye amakote basa neza, imbere hari abagore batatu bari gufata ifoto y'urwibutso umwe muri bo uri hagati akaba ari guhabwa igihembo.

Abayobozi batandukanye bari mu nama nyunguranabitekerezo n'abaturage bakaba bicaye ku meza agiye atandukanye bagiye bicaye ari abantu batandatu batandatu kandi bose bafite mudasobwa na telefone imbere yabo.

Inama nyunguranabitekerezo ku buryo bazana udushya kandi bagahanga imirimo ifitiye igihugu akamaro abayobozi babiri bicaye imbere harimo umugabo wambaye ikoti ry'umukara ndetse n'umugore wambaye ikanzu y'umukara.

Abagabo n'abagore batandukanye baje mu nama nyunguranabitekerezo bakaba bagiye bicaye muburyo bukurikira hari ameza haba hariho intebe esheshatu bityo abantu baza bakicarana ameza meza cyane ariho ibitambaro by'umuhondo.

Umugabo ufite mikoro wambaye ishati y'umweru ndetse na karuvati y'umutuku yambaye ikoti ry'umukara ndetse yambaye n'impeta mu ntoki ziwe yambara amarineti kandi afite ubwanwa buconze neza.

Abaturage babyukiye muri gahunda zo kugira ngo bahabwe ibiganiro n'abayobozi babo, bakaba bari kubasobanurira uburyo gahunda ya EJO HEZA ibareba kandi aribo ifitiye akamaro.

Abaturage bari kumwe n'abayobozi babo bakaba bahisemo gufata ifoto y'urwibutso, kuko bavuye mu mahugurwa bityo bazahore bibuka yuko ayo mahugurwa yabayeho. Bakaba bahagaze kuri tapi nziza y'ubururu.

Abanyeshuri bo mu bigo by'abisilamu bi bitandiye udutambaro tw'umweru bakaba bambaye n'ifomu z'icyatsi ndetse n'amapantaro y'ubururu, bose barakurikiye inama kandi barimo gusobanurirwa neza.

Umugabo wicaye ku meza y'umutuku, wambaye karuvati y'ubururu irimo uturongo ndetse n'ishati y'umweru arenzaho n'ikote ry'icyatsi, yambaye amarinete arimo arasobanura ibintu mu nama.

Inama ihuza ibihugu bya Afurika kugira ngo byigire hamwe uburyo byahangana n'inzara. Abagabo bane n'umugore umwe, bicaye imbere barimo kuganira n'urubyiruko ndetse n'abandi bayobozi batandukanye baturutse hirya no hino muri Afurika.

Ni ingo esi esi opu icumi bibiri na makumyabiri na kane iyi ngiyi ni inama ngarukamwaka iba igahuza abanyamuryango basi esi opu kandi bakungurana ibitekerezo.

Rwanda Renue Authority irimo iraganiriza abantu bose basora ku bijyanye n'uko imisoro yabo ikoreshwa, umugabo wambaye ishati y'umweru ari kumwe n'undi wambaye ikote ry'ubururu n'ishati y'umweru, barimo barasobanura neza uko bigenda.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere kikaba cyashyize hanze uko ibintu byagiye bikurikirana ku itariki cumi n'imwe z'ukwa cumi n'abiri, bibiri na makumya na kane hari ibyabaye byose biriho hano.

Umunsi mpuzamahanga w'umurimo, ahazaza h'umurimo intego dusangiye, ku itariki ya mbere Gicurasi nibwo umunsi mpuzamahanga w'umurimo wizihizwa, Minisiteri y'abakozi ba Leta n'umurimo itanga konje kuri uwo munsi.

REB Rwanda besiki edikeshoni, abanyeshuri babiri umwe wambaye karuvati n'ishati y'umweru ndetse na marinete, undi yambaye umupira wa kaki bose barimo gukoresha ikoranabuhanga mu burezi bwabo bwa buri munsi.

Amakuru amwe y'ibyavuye mu bushakashatsi bwa RCS bwa cumi na rimwe. Inkingi ya mbere n'inkingi ya kabiri. Umutekano mirongowi icyenda na gatatu n'ibice bibiri ku ijana urizewe.

Uburyo bworoshye kandi bwihuse bwa MOH, ni uburyo ushobora kuba wasaba serivisi zijyanye n'ubuvuzi kandi ukazihabwa, ukoresheje uburyo bw'ikoranabuhanga, biroroshye kandi birihuta.

Umusoro wa Rwanda reveni wo gukodesha mu mwaka bibiri na makumyabiri na kane Itariki ntarengwa ugomba kuba wamaze kumenyekanisha umusoro, ni mirongo itatu n'imwe z'ukwa Mbere.

Rwanda Reveni otoriti iributsa y'uko abasora bose itariki ntarengwa ari mirongo itatu n'imwe z'ukwezi kwa cumi n'abiri mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane, abazayirenza bazashyirirwaho ibihano.

Ibigaragaza yuko umuntu yakorewe isuzumwa ryemewe kandi riri porofeshono ku bijyanye na Kovidi cumi n'icyenda. Umuntu wakingiwe, kandi akaba yarafashe urukingo rushimangira.

Dore uko wamenyekanisha umusoro ku nyungu wa bibiri na makumyabiri na gatatu, ukoresheje telefone yawe igendanwa. Abasora umusoro ukomatanyije n'ucishirije badafite imisoro ifatirwa, kanda akanyenyeri magana inani urwego.

Uburyo bwa Rwanda reveni otoriti ushobora gufungura konti muri Rwanda reveni bityo bikazajya bikorohera ukishyura imisoro bitarinze kugusaba kuba wava aho uri biroroshye kandi birizewe.

Uburyo bworoshye ushobora kuba wacururizaho wibereye mu rugo aho uri, kuko busaba mudasobwa yawe gusa cyangwa se telefone. Ibyo ukeneye byose ushobora kubibarizaho, kandi biroroshye.

Icyapa cy'umweru kiriho akarango kagaragaza y'uko hari wifi, kikaba giteye ku rukuta ku buryo uhageze wese, ashobora kumenya y'uko hari wifi bityo na we akaba yayikoresha.

Icyapa gikozwe mu bintu bisa umukara kikaba gishushanyijeho ikirango cya wifi, bigaragaza yuko hari wifi buri muntu wese uyishaka ashobora kuza akaba yajyaho agakora ibyo ashaka.

Umugabo ufite telefoni mu ntoki ze kandi iruhande rwe hari mudasobwa, akaba arimo arakura amakuru muri telefone ayashyira muri mudasobwa iri imbere ye, ahantu ari gukorera hari izindi mudasobwa nyinshi kuko ni ibiro bikuru.

Umukozi urimo gufasha umukiriya ku bijyanye na serivise zigiye zitandukanye. Zaba izo kwishyura imisoro, ndetse n'ibindi byose yifuza. Akaba afite mudasobwa imufasha muri sisiteme zose bakenera.

Abakozi ba sosiyete ishinzwe iby'itumanaho bahagaze ku munara muremure w' itumanaho, ufite amabara y'umweru ndetse n'ay'umutuku, uwo munara wose urazitiye abakozi baje kuwukoraho bambaye amajire y'icyatsi.

Eyase gazete bukaba ari uburyo bw'ikoranabuhanga bworoshye ku buryo ushobora kuba wakaka icyangombwa cyo muri eyase wibereye aho uri. Mu gihe ugize ikibazo hariho n'uburyo bwo kuba wabandikira ukababwira ikibazo wahuye na cyo.

Umunara muremure cyane w'itumanaho, ukaba usize amabara y'umutuku n'umweru hafi yaho hari ibiti binini kandi biyungurura umwuka mwiza duhumeka.

Irembo. Iyi ngiyi ni serivise nshya iboneka ku rubuga rw'irembo. Akaba ari serivisi zo kwaka icyemezo cy'utishoboye wacitse ku icumu rya jenoside. Biroroshye kandi birihuse.

Ukwezi ko gushimira abasora, uruhare rw'imisoro mu iterambere mu karere ka Burera. Ibi ngibi byashyizweho n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro Rwanda reveni otoriti kugira ngo kijye gihemba abitwaye neza.

Umuhanda nyabagendwa ku ruhande haparitse imodoka zigiye zitandukanye hari imodoka ya fuso itwara ibicuruzwa bigiye bitandukanye iriho icyapa kinini cyane cyamamaza umusemburo wa pakimaya.

Ipoto y'umuriro w'amashanyarazi, iriho n'amatara amurika mu gihe bwije. Rikaba riteye ahantu hari ibiti ndetse n'akajaride. Ruguru y'aho hari igipangu cyubakishije amatafari ahiye.

Ipoto y'umuriro w'amashanyarazi iriho insinga zijyana amashanyarazi mu baturage, hafi yaho hari kiyosike ya MTN ikorerwaho n'umukozi ushinzwe serivise zitandukanye za MTN.

Umuhanda nyabagendwa ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, urugero nka moto, imodoka n'ibindi, hari n'amatara amurikira uyu umuhanda mu gihe bwije, bityo imirimo ikabasha gukomeza bidateje impanuka.

Umuhanda nyabagendwa ku ruhande hari kiyosike icurizamo umukozi wa we Emutiyeni mobile mani akaba atanga serivisi zijye zitandukanye, inyuma ye hari ipoto nini itwara umuriro w'amashanyarazi mu baturage.

Ipoto y'umuriro wamashanyarazi, itwara insinga zirimo umuriro w'amashanyarazi, iteye inyuma y'igipangu cy'umukara cyubakishije amatafari ahiye ateye igishahura, hepfo yaho hari umuhanda nyabagendwa.

Ipoto nini cyane y'amashanyarazi itwara insinga zirimo umuriro w'amashanyarazi. Iyi poto ikaba itwara umuriro ufite imbaraga nyinshi cyane bityo abaturage bo ntabwo bashobora kuba barifatiraho umuriro.

Ipoto y'umuriro w'amashanyarazi ijyana umuriro mu baturage hari na taransifa yifashishwa mu kugira ngo igabanye cyangwa se yongere ingano y'amashanyarazi yoherezwa mu baturage.

Igipangu kirimo ibiti ndetse n'indabo zinogeye ijisho, iki gipangu giteye irangi risa shokora, hari kandi ipoto riteye hafi y'iki gipangu, ritwara umuriro w'amashanyarazi mu baturage.

Ipoto y'amashanyarazi iteye mu busitani, inyuma y'urugo rw'umuntu, hafi y'ipoto hari igiti kinini cy'imyembe cyera buri gihe kandi buri bana bose bakiryaho imyembe.

Umunyonzi uri ku igare rye, uri mu muhanda nyabagendwa. Ruguru ye hari ipoto itwara umuriro w'amashanyarazi. Ruguru y'ipoto hari igipangu kirimo inzu nyinshi zo kubamo.

Aho bahinga indabo zizagurishwa. Indabo ndetse n'ibiti bishobora guhingwa hano. Hari imifuka igiye ihinzemo indabo, ni ukuvuga ingemwe zazo ndetse n'ingemwe z'ibiti, kugira ngo nizimara gufata zizagurishwe.

Ipoto y'umuriro w'amashanyarazi, itwara umuriro ufite imbaraga nyinshi. Munsi yawo hari irindi poto ritoya, ryo ritwara umuriro uri mu rugero, abaturage bashobora gufatiraho umuriro w'amashanyarazi.

Amapoto maremare cyane y'ibyuma ashinzwe gutwara umuriro w'amashanyarazi awujyana mu turere twa kure cyane. Aya mapoto yo ntago abaturage bashobora gufatiraho umuriro kuko aba atwara umuriro ufite ingufu nyinshi cyane.

Ipoto y'umuriro w'amashanyarazi ijyana amashanyarazi mu baturage, hafi yayo hari igipangu cyubakishije amatafari ahiye mo m'imbere mu gipangu hari inzu ifite amabati y'umutuku.

Inzu ifite amabati ameze nk'amategura, hejuru y'inzu hariyo icyuma gikoreshwa mu gushyushya amazi ariko cyifashishije ingufu z'izuba bityo ntibitware umuriro w'amashanyarazi menshi.

Igipangu gisize ibara ry'icyatsi ndetse n'iry'umukara, kikaba giherereye ruguru y'umuhanda, cyanditseho icyapa kinini cya mitsingi. Kikaba kandi iruhande rwacyo, hari itara rimurikira umuhanda.

Ibitaro inyuma yabyo haparitse imbangukiragutabara yifashishwa mu kugeza abarwayi kwa muganga bitabatindiye, bityo bikagabanya ibyago byo kuba bahasiga ubuzima.

Inyubako igeretse gatatu isize amarangi y'umuhondo kandi yubakishije amatafari ahiye. Inzira ijyayo ku ruhande rwayo hagiye hateye indabyo nziza cyane zinogeye ijisho.

Ubusitani bwiza buteyemo ibiti bigiye bitandukanye, hakaba harimo n'indabo, aha ngaha ni kwa muganga, kandi ababishaka bose bashobora kuruhukira muri ubu busitani, hakurya yaho hari na parikingi abantu baparikamo imodoka zabo.

Ikigonderabuzima kikaba gifite ubusitani bwiza cyane umuntu ashobora kuba yakicaramo arimo aruhuka, ubusitani burimo ibiti kandi burimo n'amatara abasha kuba yamurika n'ijoro.

Inzu ebyiri iya mbere ikaba ari inzu itageretse ifite amabati y'umutuku, inyuma yayo hari ubusitani bwiza cyane uteyemo utwatsi kandi harimo n'ibiti bifasha mu kuba byayungurura umwuka duhumeka.

Imbangukiragutabara iparitse ifunguye umuryango, ikaba iparitse inyuma y'ibitaro, hirya yayo gatoya hari imodoka yo mu bwoko bwa vigo uko bigaragara burije uko amatara arimo kwaka.

Abagabo babiri bose bicaye imbere ya mudasobwa, barimo barazikoresha kandi bafite impapuro mu ntoki barimo barandika raporo, bombi bambaye amashati y'umweru.

Inzu iriho ibigega hejuru bibiri bifite ibara ry'umukara, hanze y'inzu hari akajaride keza cyane karimo ubusitani bunogeye ijisho abantu bashobora kuba bakicaramo bakaruhuka.

Inzira igana mu bitaro hakaba harimo kaburimbo ibyo bigatuma imodoka zibasha kugeza abarwayi neza ku bitaro, hari n'akajaride karimo n'ikigega n'ibiti byiza.

Korodoro itwikiriye abarwayi bashobora kunyuramo kandi bakaba bahicara bakaruhuka hari n'akajeride keza cyane karimo ibiti n'indabo binogeye amaso kandi abantu bakaba bahicara bakaruhuka.

Umuhanda nyabagendwa ujya ku bitaro ariko hepfo yaho imodoka niho baziparika kugira ngo zibashe kuba zajya ku murongo neza, hanyuma abaturage cyangwa se abagana ibitaro bakavamo bakagenda n'amaguru badateje ambutiyaje.

Parikingi nini irimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hafi y'ivuriro. Hari n'akajaride keza cyane abantu bashobora kwicaramo mu gihe barimo kuruhuka, kandi mu gihe bagitegereje na muganga.

Umupolisi wambaye inifomu z'igihugu cy'u Rwanda, kandi afite imbunda mu ntoki ze, ari kumwe n'umugabo wambaye amapingu, wambaye ishati y'umukara n'itise ya kake, afite n'amazi mu ntoki.

Abagabo bane bambaye imyenda y'iroza bari kumwe n'umushinjacyaha wambaye ikanzu y'umukara, bari mu cyumba cy' iburanisha kandi barategereje kugira ngo umucamanza aze abahe imyanzuro y'urubanza.

Imfungwa n'abagororwa bavuye mu mirimo bagomba gukora ya buri munsi, bakaba bambaye ibara ry'iroze rigaragaza yuko bari mu bihano kandi benda kubirangiza vuba.

Inama y'abayobozi batandukanye bagiye bicaye ku meza atandukanye. Ku meza y'imbere hari abagore batatu n'abagabo batatu, ariko umwe muri abo bagore ni umugore wa perezida wa nyakubahwa Paul Kagame.

Amafoto menshi agiye atandukanye ariko kwerekana abantu bahigwa na leta, ndetse hakaba hari n'igihembo cya miliyoni eshanu z'amadolari cyashyizweho kugira ngo nihagira umubona azatange amakuru.

Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda perezida Paul Kagame, yambaye ikote ryiza ry'ubururu, yambaye n'amarinete, arimo arasuhuza umugore wambaye ikanzu y'umutuku n'ingofero y'umukara irimo amabara y'umuhondo.

Umugabo wambara amarinete, wambaye ishati ndetse n'ipantaro y'umukara akaba ari mu bubiko bw'ibyangombwa bigiye bitandukanye akaba arimo arasobanura uko bigenda kugira ngo bigeremo hano.

Abagabo babiri ndetse n'umugore umwe n'undi mugore wicaye. Abagore babiri ni abacamanza undi mugabo umwe ni umwavoka ari kumwe n'uwo bari kunganira mu mategeko.

Igororero rya Huye kikaba ari ikigo gishinzwe gutanga ubujyanama ndetse no kugorora zaba imfungwa cyangwa se abagororwa, kikaba giherereye mu karere ka Huye.

Umunyamategeko w'umugore wafashwe ifoto yo kugira ngo ishyirwe ku byangombwa bye bishya kugira ngo abe ari umunyamategeko wemewe ufite n'ibimuranga.

Igazeti ya leta yo kuwa makumyabiri z'ukwacnda bibiri na cumi numunani by'umwihariko ku mutwe wa kane uvuga inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite mu nama yawo yo kuwa mirongo itatu gicurasi bibiri na cumi n'umunani

Igazeti ya Leta, yo kuwa makumyabiri z'ukwa cyenda bibiri na cumi n'umunani, ingingo yayo ya karindwi igira iti, gukoresha igitinyiro umuntu wese ku buryo ubwo ari bwo bwose, ukoresha igitinyiro ngo hafatwe icyemezo byaba mu nyungu ze, cyangwa iz'undi muntu aba akoze icyaha.

Igazeti ya leta yo ku wa kane z'ukwa munani mu mwaka wa bibiri na makumyabiri na gatatu by'ummwihariko ku ngingo yaho ya mbere, inkomoko y'ubutegetsi bw'igihugu.

Abagabo babiri bose bambaye amarinete umwe akaba yambaye ikanzu y'umukara bigaragaza yuko ari umwavoka hanyuma akaba yicaranye n'uwarimo kuburanira wambaye ikote risa ubururu.

Imfungwa n'abagororwa mu ibara ry'iroza barimo gusohoka muri gereza ya Nyarugenge, bagiye mu mirimo nsimburagifungo, kugira ngo babashe kuba bagirira igihugu akamaro. Bose bakaba ari gereza y'abagore bafungiyemo.

Imfungwa n'abagororwa mu Rwanda bambara ibara ry'iroze amakabutura y'iroze ndetse n'amashati y'irose, bose baba bogosha umusatsi kugira ngo bakomeze kugira isuku, barimo gusubira mu gihome aho bavuye mu mirimo ya buri munsi.

Perezida w'igihugu cy'u Rwanda Kaul Kagame yambaye ikote ry'umukara ndetse na karuvati y'umukara n'ishati y'umweru, yambaye n'amarinete arimo arageza imbwirwaruhame ye ku baturage b'igihugu cy'u Rwanda.

Akayira k'abanyamaguru kaba karimo urujya n'uruza rw'abantu bagiye batandukanye. Hari umupolisi wambaye inifomo kandi aba ari mu kazi ke ka buri munsi ko gucunga umutekano wo mu muhanda.

Umuhanda nyabagendwa uba urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye haba hari ubusitani hafi yawo burimo ibiti ndetse n'indabyo nziza cyane hakurya y'umuhanda hari umupolisi ushinzwe umutekano wo mu muhanda.

Umupolisi ushinzwe umutekano wo mu muhanda, wambaye imyenda y'abashinzwe umutekano kandi yambaye n'ijire ifite amabara y'icyatsi kibisi n'umuhondo.

Umukozi wo mu ishami rishinzwe kurwanya inkongi y'umuriro, ahagaze imbere y'abanyeshuri, afite kizimyamwoto arimo kubasobanurira uburyo ikoreshwamo, mu gihe habaye inkongi y'umuriro kugira ngo itangiza ibintu byinshi.

Umuhanda nyabagendwa urimo uruhurirane rw'imodoka zigiye zitandukanye, hari n'urujya rw'uruza rw'abaturage. Buri muturage arimo arataha kugira ngo agere mu rugo hakiri kare.

Bamwe mu basekerite bashinzwe umutekano barimo barigishwa uburyo bworoshye kandi bushyashya n'abantu bashinzwe kuzimya inkongi y'umuriro ku buryo bashobora gufasha mu butabazi bw'ibanze bwihuse.

Ahantu hari kizimyamwoto ebyiri, iya mbere ifite ibara ry'umutuku, iyikurikiye yo ifite ibara ry'umweru. Izi ngizi zifashishwa mu gihe habaye inkongi y'umuriro, kandi biroroshye kuzikoresha.

Umuhanda nyabagendwa wo ku kinamba uca hejuru y'uwundi, ukaba urimo ibinyabiziga bitandukanye, hari ikinyabiziga cya porisi y'u Rwanda, gishinzwe gutwara abaporisi kibavana ahantu hamwe kibajyana ahandi mu kazi gatandukanye. Hari n'ibindi binyabiziga biri kubisikana nacyo, harimo amavatiri abiri.

Umuhanda nyabagendwa urimo imodoka zigiye zitandukanye ndetse n'ibindi binyabiziga, hakurya hari umupolisi ushinzwe umutekano wo mu muhanda kandi agenda areba niba nta modoka zica amategeko.

Umupolisi uri mu muhanda mu nshingano ze aba yambaye imyenda y'umukara ndetse n'ijire irimo amabara y'icyatsi yanditseho polisi. Ahagaze mu muhanda nyabagendwa kugira ngo asuzume niba ibinyabiziga byujuje ibisabwa.

Kizimyamwoto ifite umugozi muremure yifashishwa mu gihe habaye inkongi y'umuriro, bityo ikabasha kuba yatabara ikaba yanakumira iyo nkongi y'umuriro idakomeje kuba yakangiza ndetse ngo hagire n'abahasiga ubuzima.

Urupapuro rw'itora rwifashishwa mu gutora perezida wa repubulika, amazina ndetse n'ikimenyetso, hakabaho n'ifoto y'utora ndetse n'aho ushyira igikumwe.

Umukandida witwa MPAYIMANA Phillipe, uri mu gikorwa cyo kwiyamamaza kugira ngo azabe perezida wa repubulika y'u Rwanda. Akaba yambaye ikote ry'ubururu. Arimo arageza imigabo n'imigambi ye ku baturage bamukurikiye.

Abaturage benshi, bafite utudarapo tw'ishyaka rya FPR inkotanyi, aho bahuriye hamwe kugira ngo bamamaze umukandida wabo Paul Kagame kandi bafite icyizere y'uko azongera kubayobora indi manda izakurikira.

Umugabo wambaye ikote ry'umukara, karuvate y'ubururu, ishati y'umweru, uri imbere y'idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda, umaze kurahira ku nshingano nshya, agiye kuba yasohoza.

Abaturage babyukiye mu bikorwa byo kwamamaza umuyobozi mushya ushobora kuba perezida. Umukandida w'ishyaka Girini Pati, akaba yabyutse ababwira imigabo n'imigambi byose abafitiye.

Imbonerahamwe y'uburyo byagenze ku bantu bakoze muri aka kazi. Urugero abantu bakora umuganda rusange, bangana na mirongo icyenda na gatatu n'ibice bibiri ku ijana.

Umugabo n'umugore bombi barimo bararahira umugore yambaye umukenyero w'umutuku akaboko karamanitse kamwe akandi gafashe ku idarapo umugabo we yambaye ikote ry'umukara ukuboko kumwe gufashe ku idarapo.

Umukandida urimo kwiyamamaza akaba arimo aravuga imigabo n'imigambi. Uyu mukandida ni uw'ishyaka Girini pati akaba yitwa Frank kandi yifitiye icyizere y'uko bazamutora.

Uwahoze ari umukuru perezida w'igihugu cy'u Rwanda Juvenali Habyarimana ifoto ye y'urwibutso ifatwa nk'iya nyuma yari yambaye ikote ry'umukara, ishati y'umweru, karuvati y'umutuku.

Abagabo n'abagore barimo kubara amajwi yavuye mu matora, bombi bakaba bambaye imyenda y'imyeru n'ingofero z'umweru kandi barimo kubara amajwi batuje kandi bitonze.

Abaturage bazindukiye mu bikorwa byo kwamamaza umukandida w'ishyaka efuperi inkotanyi, bose bafite utudurapo tw'iri shyaka mu ntoki zabo kandi barishimye cyane.

Urubyiruko ruri kwifashishwa mu gukusanya amajwi y'ibyavuye mu matora. Hari ibisanduku bibiri bashyiragamo amajwi y'amatora. Hari n'ibiseke kandi, nabyo byifashishwaga.

Abadepite bari mu nama bateraniye hamwe mu nteko ishinga amategeko y'igihugu cy'u Rwanda harimo abagabo abagore bose bakaba bicaye barimo bandika ibitekerezo by'ingenzi bari kuganiraho muri.

Umugabo wambaye ikositimu, yambaye ikote ry'ubururu, karuvati na yo ni ubururu, akaba yambaye ishati y'umweru kandi yambara n'amarinete, imbere ye hari mikoro.

Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nyakubahwa perezida Paul Kagame ari kubwira imbwirwaruhame abaturage b'igihugu cye bamukikije bari muri sitade nini cyane Amahoro.

Umuyobozi wa Dalfa umurinzi, akaba ari umugore wicaye imbere y'ameza ariho icyapa kinini cyanditseho Dalfa umurinzi, kiri mu ibara ry'icyatsi kibisi, imbere ye hari mikoro kuko ari gutanga ikiganiro.

Abayobozi babiri bicaranye umugabo n'umugore, umugabo yambaye ikoti ry'umukara, ishati y'umweru na karuvati y'umutuku, yambaye n'amarinete n'umugore na we yambaye amarinete, bombi bafite mudasobwa zabo imbere y'abo.

Abagabo n'abagore bari ku murongo kugira ngo bajye mu cyumba cy'itora, bityo na bo babashe kugira uruhare mu kwitorera abayobozi bababereye. Ibi ngibi bakaba babikora mu gihe cy'amatora y'umukuru w'igihugu n'ay'abadepite.

Umuhanda nyabagendwa urimo ibinyabiziga bitandukanye, harimo amakamyo atwara ibicuruzwa bitandukanye, hari n'ikamyo nini yo mu bwoko bwa hoho itwara ibikoresho by'ubwubatsi ikabigeza aho babishaka hose.

Umuhanda nyabagendwa, urimo ibinyabiziga bitandukanye byiganjemo moto. Hakaba hari n'imodoka nini cyane, yifashishwa mu gutwara beto, iyivana ahantu hamwe iyijyana ahandi hantu hatandukanye.

Imodoka yo mu bwoko bwa fuso iri mu muhanda nyabagendwa ikaba isize ibara ry'ubururu ikaba kandi ipakiye ibikoresho bitandukanye by'ubwubatsi, hepfo y'aho harazitiye hari ibindi biti byiza.

Umuhanda nyabagendwa urimo ikinyabiziga gitwara abantu mu buryo bwa rusange cya Jagwari, kikaba kibavana mu gihugu cy'u Rwanda, kibajyana muri Uganda. Kikaba kiri kunyuranaho n'abanyonzi batwaye amagare yabo.

Umuhanda nyabagendwa urimo ibinyabiziga bitandukanye, higanjemo moto zitwara abagenzi, harimo n'ibinyabiziga by'abantu ku giti cyabo, kandi harimo n'abanyamaguru. Umuhanda urakubuye neza urakeye.

Imodoka itwara abagenzi mu buryo bwa rusange, irimo kunyuranaho n'izindi modoka zitandukanye, hakaba harimo dayihastu itwara ibicuruzwa bigiye bitandukanye kandi ikabigezayo amahoro.

Umuhanda nyabagendwa urimo ibinyabiziga bitandukanye, harimo gucamo bisi itwara abagenzi mu buryo bwa rusange, ikaba isize amabara y'umweru, hakurya mu gahanda k'abanyamaguru hari gucamo umugabo.

Umuhanda nyabagendwa w'icyerekezo kimwe, urimo umumotari utwaye umugenzi kuri moto bombi bakaba bambaye kasike. Muri uwo muhanda kandi hagati harimo pasiparume ndetse n'ibyatsi birimo ibiti byiza.

Ikamyo itwara ibicuruzwa bigiye bitandukanye iparitse mu cyapa, mu muhanda nyabagendwa hari gucamo imodoka zigiye zitandukanye harimo amavatiri, harimo ivatiri y'umutuku ndetse n'isa shokora.

Ikinyabiziga kiri mu muhanda wa nyabagendwa kikaba gitwara ibicuruzwa kibivana mu gihugu kimwe kibijyana mu kindi, kikaba gifite ikizuru cy'umutuku ndetse na kontineri yo mu ibara ry'icyatsi.

Ikamyo itwara ibicuruzwa ibivana mu Gihugu kimwe ibijyana ahandi. Ikaba ifite kontineri y'ubururu, igitwe cyayo ni umweru. Ikaba ari ikamyo yo mu bwoko bwa benzi.

Umuhanda nyabagendwa urimo kubisikana n'abanyamaguru kuko ari mutoya, hepfo yaho hari aho moto ziparika kandi abamotari benshi barahaparitse, mu muhanda ho hari gucamo imodoka yo mu bwoko bwa vigo.

Umuhanda nyabagendwa urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, imodoka itwara abagenzi mu buryo bwa rusange irimo kubisikana n'imodoka y'umuntu ku giti cye yo mu bwoko bwa Rava fo.

Umuhanda nyabagendwa urimo ibinyabiziga bitandukanye, harimo abanyonzi batwaye abagenzi ku igare kandi harimo n'imodoka nini cyane yo mu bwoko bwa fuso itwaye umucanga.

Umuhanda nyabagendwa uriho n'akayira k'abanyamaguru, hari gucaho umugabo wambaye ikabutura ndetse n'ingofero mu mutwe, mu muhanda ho, hariho ikinyabiziga cyo mu bwoko bwa fuso gitwara ibicuruzwa, ndetse na moto ziri kubisikana.

Imodoka itwara abagenzi mu buryo bwa rusange iraparitse itegereje yuko abagenzi bajyamo bakuzura kugira ngo ihaguruke, iri mu mabara y'umweru kandi itwara abantu benshi icyarimwe bakagera aho bagiye.

Bisi zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange, zikaba zisize amabara y'icyatsi ndetse n'ay'ubururu avanze n'umweru, zikaba ziparitse ku murongo kugira ngo abagenzi baze bajyemo zibatware aho bagiye.

Umuhanda nyabagengwa urimo ibinyabiziga byinshi, uyu muhanda ufite n'amatara kuko umurikira ninjoro abantu n'ibinyabiziga bikagenda bibona kandi bigafasha mu kwirinda impanuka, hari abamotari, hari n'abagenzi bari gutaha.

Umuhanda nyabagendwa, urimo ibinyabiziga bitandukanye, akaba ari n'ijoro kuko cyacanye amatara, ariko n'umuhanda ufite amatara aw'umurikira, kugira ngo ibinyabiziga n'abanyamaguru babashe gucamo bameze neza.

Imodoka itwara abagenzi mu buryo bwa rusange, iri mu mabara y'umweru ndetse n'icyatsi kibisi. Imodoka itwara abantu benshi icyarimwe kuko bamwe bagenda bahagaze abandi bakagendamo bicaye, iri kubisikana n'imodoka ya vigo.

Imodoka yifashishwa mu gutwara ibicuruzwa iri kuva mu muhanda nyabagendwa munini ijya mu muhanda muto wo muri karitsiye. Ikaba ifite ibara ry'umweru na plake ya RAE gatandatu gatandatu gatandatu.

Imodoka itwara abagenzi mu buryo bwa rusange ya KBS ikaba irimo kugenda mu muhanda nyabagendwa, irimo kunyuranaho n'umunyonzi utwaye umugenzi ku igare rye.

Imodoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange, ziba ziparitse hamwe kugira ngo abagenzi bazihasange kandi zibatwara bitewe n'aho bagiye bose, zikaba zibasha gutwara abagenzi benshi icyarimwe.

Imodoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange ziparitse ahantu hamwe muri gare kugira ngo abagenzi baze kuzisanga aho ziri maze zibatware. Hari kandi n'utuzu abagenzi bashobora kwicaramo mu gihe bategereje imodoka.

Umuhanda nyabagendwa urimo ibinyabiziga bitandukanye harimo moto zirimo kuwucamo kandi hakurya yawo hari igipangu gisize ibara ry'umweru kirimo igiti kinini cyane.

Inzira nyabagendwa irimo kunyuramo ikinyabiziga cyo mu bwoko bwa hoho kikoreye umucanga, kikaba gikoreshwa mu gutwara ibikoresho bigiye bitandukanye by'ubwubatsi kandi kikabigeza aho bigiye neza.

Ikamyo yo mu bwoko bwa fuso isize amabara y'ubururu, ikaba ihagaze akanya gato kugira ngo ihite ikomezanya ibicuruzwa ifite, mu muhanda nyabagendwa uyiri iruhande hari ibindi binyabiziga bitandukanye harimo moto n'amagare.

Umuhanda nyabagendwa w'ibyerekezo bibiri, ukaba uri gucamo ibinyabiziga bitandukanye, imbere hari ikinyabiziga cyigishirizwaho gutwara imodoka, inyuma yacyo hari moto zitwara abagenzi.

Umuhanda nyabagendwa urimo ikinyabiziga cyo mu bwoko bwa fuso cyifashishwa mu gutwara ibicuruzwa bigiye bitandukanye. Ku ruhande hari akayira abanyamagare banyuramo batwaye abagenzi ku igare.

Amakamyo aparitse akurikiranye iya mbere ni iyo mu bwoko bwa fuso yifashishwa mu gutwara ibicuruzwa, n'indi iyikurikiye ni fuso ifite ibara ry'umweru nayo ipakiye yiteguye kujyana ibicuruzwa aho igomba kubigeza.

Bisi itwara abagenzi muburyo bwa rusange irimo iragenda mu muhanda nyabagendwa ikaba itwara abantu benshi icyarimwe isize icyatsi kibisi ndetse n'ubururu hariho n'ibyapa byamamaza BRD.

Umuhanda nyabagendwa urimo ibinyabiziga hari ikinyabitende igisa ubururu kikaba cyifashishwa mu gutwara ibicuruzwa ariko bitarengeje toni imwe.

Ikamyo yo mu bwoko ga fuso itwara ibicuruzwa, ikaba iri kubisikana n'umumotari uri gushaka umugenzi hepfo yaho hari ibiti binini biyungurura umwuka duhumeka.

Bisi itwara abagenzi mu buryo bwa rusange baba abagenda bahagaze ndetse n'abagenda bicaye, zikaba ziparitse ku murongo zitegereje yuko abagenzi baza maze bagatangira urugendo.

Umumotari uri mu muhanda nyabagendwa, akaba ari kugenda gahoro gahoro, kugira ngo ashake abagenzi. Hakurya ye hari amazu atandukanye, atuyemo abaturage. Hari n'ibiti binini cyane, biyungurura umwuka duhumeka.

Umuhanda nyabagendwa ucamo ibinyabiziga bitandukanye imbere hari ikinyabiziga cyo mu bwoko bw'ikamyo cyifashishwa mu gutwara ibikomoka kuri peteroli, inyuma yacyo hari moto nyinshi zishaka inzira.

Imodoka yo mu bwoko bwa rukururana, ikaba itwara imizigo myinshi icya rimwe, yaba iyivana mu gihugu kimwe, iyijyana mu kindi. Ikaba ifite ikizuru cy'umweru, inyuma kontineri yayo ikaba isa umuhondo.

Ikamyo yo mu bwoko bwa fuso isize irangi ry'umweru irimo kugenda mu muhanda nyabagendwa, ikaba ipakiye ibicuruzwa ibijyanye ahantu hagiye hatandukanye. Imbere yayo hari imodoka nini yo mu bwoko bwa fuso nayo itwara ibicuruzwa.

Ikibuga kizitiye neza, gifungishije senyenge. Hakaba harimo icyapa kigaragaza ko umuvuduko ntarengwa ari makumyabiri. Harimo abantu batwaye moto barimo kuziga. Hari kandi n'abarimu bari kubafasha.

Umuhanda wagenewe abanyamagare ubangikanyije n'umuhanda munini, ku ku ruhande hakaba hateye indabo ndetse n'ibiti biyungurura umwuka duhumeka, tukabona umwuka mwiza.

Sitade nini cyane ikinirwaho umupira w'amaguru, sitade yose iratwikiriye ku buryo abakurikirana umupira baba bicaye batikanga imvura cyangwa se izuba uko byagenda kose.

Icyapa cyo mu muhanda kiri mu ishusho y'uruziga kikaba kizengurutswe n'ibara ry'umutuku, hanyuma ikirango cyandikishije ibara ry'umukara, kikaba kivuga yuko bitemewe kugera imbere ngo ukate iburyo.

Icyapa cyo mu muhanda kiri mu ishusho y'uruziga ibara ni icyatsi kibisi hanyuma ikirango kirimo n'umweru, kikaba gisobanuye yuko umuhanda ufite undi wo muri karitsiye uwomekaho.

Icyapa kiri mu ishusho ya mpande enye kikaba gisa ubururu, ikirango kikaba ari umukara, kikaba kigaragaza aho akayira k'abanyamaguru bambukiramo umuhanda gaherereye.

Icyapa kibuzanya yuko nta modoka itwara abagenzi mu buryo bwa rusange yemerewe kunyura hano, ikaba ikirango ari uruziga kandi hakaba harimo amabara y'umutuku agaragaza ko bitemewe.

Icyapa cyo mu muhanda, kigaragaza y'uko umuvuduko ntarengwa muri uyu muhanda, ari ibirometero mirongo itandatu ku isaha, uyu muhanda ni nyabagendwa, urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, harimo imodoka, moto n'ibindi.

Icyapa cyo mu muhanda cya mpande eshatu kikaba kizengurutswe n'ibara ry'umutuku hanyuma ikirango cyandikishije ibara ry'umukara kimenyesha abashoferi yuko umuhanda uri imbere udakomeza gukata iburyo cyangwa ibumoso.

Icyapa cyo mu muhanda kimenyesha abashoferi y'uko bitemewe kuba waparika aho hantu, hafi y'icyo cyapa hari ipoto itwara umuriro w'amashanyarazi mu baturage, inyuma y'ipoto hari ibyatsi kandi hari n'indabo nziza.

Ubusitani bwiza cyane burimo ibiti byinshi kandi binini bishinzwe kuba byayungurura umwuka duhumeka, imbere yabyo hari icyapa cyo mu muhanda gifite ishusho ya mpandeshatu.

Icyapa cyo mu muhanda kiri mu ishusho y'uruziga, ikirango kiri mu ibara ry'umukara, kikaba ari udufureshi tubiri kamwe kareba hepfo akandi ruguru, bikaba bisobanuye yuko ari umuhanda w'ibyerekezo byombi.

Icyapa cyerekana aho banyura bazengurutse, buri mushoferi wese ukigeze imbere abasha kumenya y'uko hagomba kunyurwa bazengurutse. Iki cyapa giteye mu kajaride keza kari iruhande rw'umuhanda karimo ibyatsi ndetse n'indabo nziza,

Icyapa cyerekana yuko iyo ukomeje imbere gato ugera muri Repebulika ya Uganda. Imodoka iri mu muhanda nyabagendwa, yo mu bwoko bwa Landi kuruza y'icyatsi, ikaba irimo kugenda yegera umupaka w'u Rwanda na Uganda.

Icyapa cyo mu muhanda kiri mu ishusho y'uruziga, umuzenguruko ni umutuku, naho ikirango kikaba ari umukara kimenyesha yuko ibinyabiziga bitemerewe kurenza ibirometero mirongo itatu ku isaha.

Icyapa cyo mu muhanda kigaragaza yuko umuhanda munini imbere gatoya winjirwamo n'agahanda gatoya kavuye muri karitsiye. Ishusho ikaba ari mpande enye ikirango kikaba kiri mu ibara ry'umukara.

Icyapa cyo mu muhanda, kiri mu ishusho y'uruziga, gifite umuzenguruko w'umutuku, ikirango kikaba cyandikishije ibara ry'umukara. Kikaba kimenyesha yuko umuvuduko ntarengwa, ari ibirometero mirongo ine ku isaha.

Icyapa cyo mu muhanda kiyobora abashoferi yuko imbere hashobora kuba hari abantu benshi bari mu muhanda bityo bagomba kugabanya umuvuduko hafi yaho hari kiyosike ikoreramo irembo ndetse n'abashaka gufotoza bakaba bahakoresha.

Umuhanda nyabagendwa wo ku Kinamba uzamuka ujya Kacyiru hari icyapa cyanditseho yuko tagisi zemerewe kuhahagarara, hari kandi n'utuzu abanyamaguru bashobora gutegerezamo bisi zibatwara.

Icyapa cyo mu muhanda ishusho n'impande eshatu. Munsi yaho hariho icyapa cyerekana yuko abanyamaguru bahambukira. Hari kandi akayira k'abanyamaguru bambukiramo kazwi nka zebura korosingi.

Icyapa cyo mu muhanda kimenyesha abashoferi yuko bagomba kugabanya umuvuduko kuko agace bagezemo gashobora kuba kateza impanuka bityo bakagenda gake bakirinda impanuka zitateganyijwe.

Icyapa cyo mu muhanda, ishusho ni uruziga umuzenguruko ni umutuku ibirango biri mu ibara ry'umukara n'umutuku bimenyesha yuko bitemewe kunyuranaho igihe muri aho hantu kuko bishobora guteza impanuka.

Igipangu cyubakishije amakaro meza cyane womeka ku rukuta kikaba kiriho icyapa kinini cyamamaza cya impala resito bare kikaba gifite n'itarara rinini rikimurikira.

Umuhanda nyabagendwa urimo imodoka yo mu bwoko bw'ivatiri, ikaba irimo iragenda. Iruhande rw'umuhanda hari ibiti byiza cyane, biyungurura umwuka duhumeka.

Inyubako ndende ifite amagorofa atandatu ifite ibirahure bya fime y'umukara, hepfo munsi yayo hari parikingi iparitsemo imodoka nyinshi.

Inzu nyinshi zo mu mujyi wa Kigali zafotorewe hamwe uzitaruye zikaba ziri mu midugudu igiye itandukanye hirya no hino mu mujyi wa Kigali haba hari ama jeride meza cyane ateyemo ibiti biyungurura umwuka duhumeka.

Inzu igeretse gatanu ikaba hafi yaho hari ubusitani bwiza cyane burimo indabo nziza z'amoko atandukanye zaba iz'umuhondo ndetse n'izindi.

Inyubako igeretse rimwe yanditseho biza, ikaba iri mu gipangu kirimo jaride, irimo indabo nziza cyane zifite amabara atandukanye, jaride kandi irimo n'ibiti.

Inzu zitandukanye z'ubucuruzi zikaba zicururizwamo ibintu bigiye bitandukanye umuryango ubanza ucururizwamo ibyokurya bigiye bitandukanye byiganjemo imboga n'imbuto hanyuma ukurikiyeho ucururizwamo imyenda.

I kanombe mu mujyi wa kigali igipangu cyubakishije amatafari ya ruriba hejuru harisenyenge zirinda abajura, hari ibiti biri inyuma y'igipangu biyungurura umwuka duhumeka.

Kimironko muri Bibale ufatiye kure yaho hari inzu irimo kubakwa ariko itaruzura neza, hafi yaho hari ibiti bitanga umwuka mwiza duhumeka hari n'igipangu kirimo inzu y'umweru.

Inzu ya hoteli ikaba irimo n'ihahiro riri ku muryango wo hasi ryitwa shopu andi sevu. Hanze yaho hari parikingi nini ishobora kujyamo imodoka nyinshi icyarimwe.

Inzu zifite amabati y'umutuku inyuma yazo hari ishyamba ririmo ibiti biyungurura umwuka duhumeka, kandi hanze y'izi nzu hari pasiparume na jaride nziza cyane inogeye amaso.

Igipangu gisize irange rya kake kiri ku muhanda w'igitaka, mu gipangu mo mu imbere harimo inzu ifite amabati y'umukara n'imireko y'umweru.

Igaraje rikanikirwamo moto mu gihe cyose zagize ibibazo bazizana hano bakazikanika, haparitse moto eshatu zose ziteguye kugira ngo zibashe kuba zakanikwa bityo zongere zisubire mu muhanda zimeze neza.

Inzu ifite igipangu cyubakishije amatafari ahiye, urugi rwacyo rukaba rusa n'ibara ry'umweru, kikaba gifite ibiti biteye mu gipangu mo imbere bitanga akuka keza duhumeka.

Umuhanda nyabagendwa, ruguru yawo hari inyubako ndende igeretse kane. Munsi y'iyo nyubako hari parikingi iparikwamo n'imodoka nyinshi icyarimwe. Hari n'abagenzi ndetse n'abakiriya baje muri serivisi zimwe na zimwe zitangirwa muri iyi nyubako.

Inzu nini igeretse incuro imwe ifite igipangu kiriho utuntu tw'utwuma tukirinda, hepfo yayo hari kaburimbo umuhanda mwiza cyane ufasha abantu kuba bayigeraho bitabagoye.

Ibiti bitanga umwuka duhumeka hafi yaho hari agashyamba karimo ibiti bigiye bitandukanye kandi hari n'ubusitani bwiza cyane bubereye amaso kubureba.

Ahantu hacururizwa ibikoresho by'ubwubatsi bigiye bitandukanye, harimo nk'amatiyo y'amazi ndetse amatiyo y'amashanyarazi n'ibindi. Hicaye abantu hafi yaho, hari na resitora iteka kuko hicaye abantu barimo kurya.

Abanyamaguru barimo kugenda mu muhanda wubakishije amabuye iruhande rwaho hari imodoka zihaparitse iy'imbere ifite ibara ry'umutuku iyiyikurikiye ifite ibara ry'umukara.

Umuhanda nyabagendwa w'ibyerekezo bitandukanye, ukaba uba ufite aho abanyamaguru bambukira hazwi nka zebura kurosingi, ibinyabiziga iyo bigeze biba bigomba guhagarara kugira ngo umunyamaguru yambuke.

Umuhanda uriho ikiraro kinyura hejuru kikaba hari n'icyapa cyerekana yuko bahanyura bazengurutse, iyo ari nijoro amatara ahari acanira uyu muhanda bityo imodoka zikahanyura zibona neza.

Umuhanda nyabagendwa unyurwamo mu cyerekezo kimwe. Iruhande rwawo, hari sitasiyo ya esanse, aho ibinyabiziga bishobora kujya gufata esanse bigakomeza urugendo, uyu muhanda hirya yawo, hari ibiti byiza bitanga akuka ko guhumeka.

Akayira k'abanyamaguru kariho indabyo zigiye zitandukanye. Hateyemo kandi n'ibiti byiza cyane. Iruhande rw'inzira y'abanyamaguru hari urukuta rurerure rwubakishije amabuye.

Umuhanda nyabagendwa uri kunyurwamo n'ibinyabiziga bitandukanye, kuruhande hari aho abanyamaguru bambukira hazwi nka zebura korosingi, hiryao yaho hari ishyamba ririmo ibiti byinshi kandi biyungurura umwuka duhumeka.

Umuhanda nyabagendwa urimo ibinyabiziga bitandukanye, byiganjemo iby'abantu ku giti cyabo, imbere hari imodoka itwara ibicuruzwa bigiye bitandukanye, yo mu bwoko bwa fuso ifite ibara ry'ubururu.

Umuhanda unyura hejuru y'uwundi hakaba hari icyapa kibuzanya guparika kiri mu nyuguti ya "p" hakaba hari ubusitani bwiza cyane buteyemo ibiti kandi hari n'icyapa kiyobora bitewe n'aho ugiye.

Umuhanda nyabagendwa ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, imbere y'aho hari aho banyura bazengurutse hari kandi na kamera ishinzwe gucunga umutekano wo mu muhanda.

Umuhanda nyabagendwa ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, higanjemo imodoka z'abantu ku giti cyabo harimo kandi na moto kuko zikenerwa mu buzima bwa buri munsi zitwara abantu zibavana ahantu hamwe zibageza ahandi.

Inzira nyabagendwa irimo ibyapa biyobora bitewe n'aho ushaka kujya, kandi hari aho abanyamaguru bambukira hazwi nka zebura korosingi, imodoka iyo zihageze, zirahagarara kugirango zitange inzira ku banyamaguru bari kwambuka.

Umuhanda nyabagendwa ufite n'akayira k'abanyamaguru kandi hari n'aho bambukira hazwi nka zebra crossing uyu muhanda ufite amatara awumurikira mu gihe bwije iruhande rwawo haba hateye ibiti binogeye ijisho.

Umuhanda nyabagendwa, uriho ibyapa bigiye bitandukanye. Hakaba hari icyapa kigaragaza yuko imbere hari amashuri bityo abana bashobora kwambuka bitunguranye. Abashoferi iyo babonye icyo cyapa, bagenda gake.

Umuhanda nyabagendwa w'ibyerekezo bitandukanye. Ukaba uri hafi y'abaturage kuko hepfo na ruguru, hose hari amazu. Hepfo hari inzu ifite igipangu cy'umukara. Hanyuma ruguru, igipangu cyubakishije amabuye.

Umuhanda w'igitaka utarimo kaburimbo, ugana muri karitsiye, imodoka zirimo kuwunyuramo kandi ukoze neza, kuko ufite rigori ifata amazi, ukaba hafi yawo hari ibipangu bituyemo abantu.

Umuhanda nyabagendwa utarimo imodoka ariko wubakishije kaburimbo, hakurya hari agashyamba kandi kakaba karimo n'utwatsi twiza aho abantu bashobora kwicara baruhuka hirya yaho kandi hari imirimo y'ubucuruzi ihakorerwa.

Umuhanda nyabagendwa wo ku Kinamba aho hari undi muhanda uca hejuru yawo, hakurya y'umuhanda hari aho abagenzi bategererereza imodoka rusange kandi baba bicaye ahantu hatwikiriye.

Umuhanda nyabagendwa ku ruhande hakaba hateyeho akajaride karimo n'ibiti byiza cyane binogeye ijisho, hari kandi n'akayira k'abanyamaguru banyuramo batekanye. Uyu muhanda ufite urukuta rwubakiye neza rw'amabuye.